Kuri ubu ngubu, mu karere ka Musanze, usanga hari amashuri y'inshuke ndetse n'aya nasari arererwamo abana bakiri batoya. Aba bana bafite munsi y'imyaka itanu bajyanwa ku mashuri y'inshuke, aho usanga bahura n'abarimu babihuguriwe mu kwigisha abana bakiri batoya. Bibafasha mu kongera ubumenyi, ndetse no mu gukura k'ubwonko bwabo.

Ibigo by'amashuri yaba aya segonderi ndetse n'aya pirimeri, ni bimwe mu bigo bigirira akamaro leta dore yuko bifasha mu mikurire y'abana ndetse no kujijura abakiri batoya, n'ibigo bya pirimeri usanga mu karere ka Musanze bimaze kuba byinshi, kandi bikaba bifasha leta mu gukontorora abana bari mu kigero gitandukanye.

Mu mashuri yisumbuye niho abanyeshuri benshi bigira ibikorwa bigiye bitandukanye bashobora kwikorera nyuma yo hanze y'ubuzima bwo mu ishuri birimo nk'ubwogoshi, gusiga inzara, imisatsi, ndetse n'ibindi bishobora kubafasha mu kwiteza imbere bakabona amafaranga.

Kuri iki gihe mu rwanda usanga nko muri buri murenge, harimo amashuri yisumbuye arenga atanu; ayo mashuri yisumbuye arenga atanu abayigaho abanyeshuri batandukanye, biga ibintu bigiye bitandukanye harimo, nk' amasiyanse y' ubumenyingiro ndetse n' ibindi bishobora kubafasha mu kwihangira imirimo.

Mu mashuri ya segonderi bigamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nka fizike ndetse n'ibindi byabafasha mu guhanga udushya. Ibyo byinshi byigirwa mu mashuri ya tiviyeti, ariho usanga higanje abanye abanyeshuri biga ibintu basaba gukora.

Mu masegonderi agiye atandukanye, usanga abanyeshuri bigiramo ibintu bitandukanye birimo: nko gukora inkweto, gukora imyenda, ubudozi ndetse n'indi n'ubundi bumenyi ngiro, bushobora kubafasha mu kwiteza imbere ndetse no guhanga umurimo, mu gihe basohotse hanze bavuye ku ishuri.

Ibigo by'amashuri y'abana bakiri batoya aribyo bita "nasari " mu rurimi rw'icyongereza, usanga bigira umumaro cyane cyane mu iterambere ry'abo bana no mu mikurire yabo, dore y'uko biba bifite ibikoresho by'imyidagaduro abana bashobora gukoresha bikabafasha mu kuzahura cyangwa se mu kongera ubushobozi bw'ubwonko bwabo.

Kur'ubungubu mu karere ka Musanze, harimo kubakwa amashuri menshi y'incuke ndetse n'ayisumbuye, aya mashuri azagirira umumaro abaturage, haba abayegereye ndetse n'abandi baturuka mu tundi turere, mbere y'uko azajya yemerera buri munyeshuri wese ufite ubushake kuza kuyigamo, bikaba byamufasha mu kwiteza imbere ndetse no kuhavana ubumenyi.

Mu mashuri ya segonderi ndetse n'ayisumbuye usanga bigamo ibikorwa byinshi, muri ibyo bikorwa bigamo harimo imirimongiro bashobora gukora bakoreshaje amaboko yabo irimo nko guteka, ari byo mu rurimi rw'icyongereza bita karinari ati . Usanga abanyeshuri biga muri segonderi biga guteka bagasohoka babizi neza, bakajya gukora mu mahoteli ndetse n'amabare.

Amwe mu mashuri ya segonderi yo mu karere ka Musanze ,usanga higirwamo ibintu bigiye bitandukanye .Cyane cyane nk'abanyeshuri barangije toronkome, bahita bajya mu mashuri yisumbuye .Mu mashuri yisumbuye bigiramo ibintu byinshi harimo nk'ibyo bashobora kwifashisha amaboko bari gukora birimo nk'intebe ,udutabureti, imbaho, imeza ndetse n'ibindi cyangwa ibyo bikabafasha mu kwiteza imbere.

Mu bigo bya segonderi higirwamo ibintu byinshi abanyeshuri bashobora gukora mu kwihangira imirimo, mu bintu biga harimo n'ubutetsi aribyo mu ndimi z'amahanga bita karinari ati. Ibi bibagirira umumaro mbere y'uko basohoka babona nk'akazi mu mahoteri cyangwa amaresitora bashobora gutekeramo.

Amwe mu masomo abanyeshuri bo muri segonderi biga, harimo n'ayo gupima ubutaka, gufotora, ndetse n'ibindi. Ibi ngibi byifashishwa mu bushakashatsi, cyane cyane nk'aho usanga ikigo cy'igihugu gishinzwe statistike kibifashisha mu kumenya abaturage batuye ku kigero runaka ndetse n'ibindi.

Ububaji ni kimwe mu bikorwa bigirira abaturage bakiri batoya akamaro. Dore y'uko usanga nk'ubu ngubu hamaze kugerwaho amashuri menshi yigisha ububaji, ndetse n'ibindi birimo nko gukora ibikoresho bya eregitoronike birimo, amaterefoni, amaradiyo. Ibi ngibi bifasha abakiri bato mu kwihangira imirimo ndetse no gusohoka bakabona icyo bakora batiriwe bisaba ko bicara.